Abasirikare bari ku murongo bambaye imyenda imeze neza, bambaye bose n'inkweto zizamutse zisa, imikandara , bari ku karasisi , bari kugenda ku murongo bose ntawe usobanya n'undi.

Imodoka ebyiri zitandukanye, imwe ifite amabara asa n'umweru, andi asa n'umukara. Ikindi kandi, umupolisi afashe imbwa, barinda umutekano w'abaturage ndetse n'ibintu, ku buryo nta bajura baza kubyiba.

Abantu batandukanye bambaye udupfukamunwa barikujya inama ijyanye n'iby'umutekano. Hari n'abo twita abasirikare ndetse n'abapolisi bacunga umutekano w'abaturage.

Abantu batandukanye bahagaze mu kibuga, imbere yabo hari abaporisi bane bambaye imyenda yabo bacunga umutekano, ikindi kandi umwe muri bo yambaye akajire karimo amabara asa n'umukara, andi asa n'icyatsi.

Imbwa nazo zicunga umutekano w'abantu kugira ngo zirebe uko abantu babaho mu mahoro, imbwa zisaka abantu zireba ko nta cyangiza baba batwaye.

Umupolisi ucungaga ibintu bijanye n'umutekano gw'abaturage, afite mikoro ari kuvuga ibintu bijanye no gucunga umutekano no kwirinda kugira ngo batabajana mu buroko.

Abantu batandukanye bicaye mu ihema, harimo abagiye bambaye imyenda igiye isa. Imbere yabo hari abantu benshi bigaragara ko bari kubaririmbira, ni nk'igiterane cyabaye abakirisitu bari gusenga.

Abantu bari mu nama bari kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye, kandi bari gukorera inama ahantu hagaragara neza cane hafite amarangi gameze neza.

Inyubako yahuriyemo abantu batandukanye, yubatse neza, ni ngari, ikindi kandi buri muntu imbere ye hateretse amazi, afite ikaramu, ndetse n'ikayi ari kwandika ibyo bari kwigira mu nama.

Abantu batandukanye, bamwe baricaye abandi barahagaze bari mu nama imbere yabo hari umuntu ufite mikoro uri kuvuga ndetse hari n'abandi bacunga umutekano twita abapolisi n'abandi.

Icyumba kirimo abantu batandukanye bitabiriye inama. Harimo abo twita abasirikare, abadaso ndetse n'abandi bakora muri RIB. Imbere zabo hahagaze umumama uri kuvuga ufashe na mikoro.

Umudaho wakoreshwaga kera bawaruza ibyo kurya, warura ibiryo neza ikindi kandi n'ubu ngubu hariho abantu bawukoresha kuko ukora neza.

Amabara asa neza kandi atandukanye, atatse ku nyubako imeze neza, igaragaza amabara y'umuco nyarwanda, yifashishwaga mu gutaka ahantu kera cyane.

Inzu igaragaza umuco nyarwanda kuko uburyo yubatse ni iya kera, ikindi kandi yubakishije ibyatsi, imbere zaho harimo ibicuma, inkangara, n'indi mitako ya kera.

Ubutaka burambitseho ibikoresho byakoreshwaga kera. Tubyita ibya kinyarwanda, ariko n'ubu harimo ibigikoreshwa nk'isekuru iracyakoreshwa.

Umurima urimo umukobwa wambaye imyenda ya kinyarwanda, ikindi kandi afite isuka, ari guhinga, hirya ye hari amatungo y'intama, asa n'umweru, ari kurisha ahantu bahinze ibigori, ndetse n'ibindi.

Ikirago kirambitseho uducuma tubiri turimo n'imiheha, uducuma dukoreshwa tubika inzoga neza kandi inzoga inywerewemo mur'utu ducuma itandukana n'izindi nzoga zose.

Ababyinnyi babyina neza cyane, harimo intore zizi guhamiriza, barapfukamye bateze amaboko neza, imbyino za kinyarwanda ziba nziza, kuko zishimisha abantu, iyo bari kureba ababyinnyi bari kubyina.

Ibibindi bitatu biri kumwe n'ubuvure bakamiramo ibitoki ikindi kandi ibibindi kera nibyo abantu bajyanaga kuvoma amazi mu kibaya, ikindi kandi hubatse amazu asize amarangi asa n'umweru.

Amazu ya kera yaba akikijwe n'urubingo, ari rwo bubakishije igipangu. Ikindi kandi iyo bashaka kunywa igikoma babetaga ku rusyo bakoresheje n'ingasiye.

Ibiryo bya kinyarwanda birambitse ku ikoma. Ibindi biri ku mbehe, ibikoresho kera bifashishaga bari kurya. Hariho ibiryo bigiye bitandukanye kandi biryoshye cyane.

Umuntu ugosora akoresheje intara, amasaka meza ari kujya ukwayo, atari meza nayo akajya ukwayo, intara ibikora neza kuko ituma abantu bagira amasaka ameze neza.

Umugabo ufite gitari bita umuduri ari gucuranga, ibi byakoreshwaga kera, ariko ubu ngubu ntabwo bigikoreshwa, basigaye bakoresha ibikoresho bya kijyambere.

Inka enye zifite amahembe ateze neza ku buryo bushimishije. Ikindi kandi bazita inyambo. Zigira amata ameze neza, amata yazo nta bwo wayavaho, araryoha cyane.

Ababyinnyi babyina imbyino za kinyarwanda, ikindi kandi bambaye imikenyero, kandi igaragaza umuco nyarwanda babyina neza bateze amaboko ku buryo bushimishije.

Ibiseke bine, inkoko ebyiri, ndetse n'utundi twifashishwa mu mitako, biboshye neza mu mabara asa neza, kandi atandukanye, abantu babikoresha bari gutaka ahantu, cyangwa se umuntu ashyira iyo undi ipukire, akoresha igiseke.

Ibijumba, igitoki, imyumbati, ibishyimbo, ibihaza, ibiryo biteguye ku buryo bwa kinyarwanda. Birambitse ku ikoma, biraryoshye, birasa neza. umuntu wabitetse ni umuhanga kuko birumutse cyane.

Abavuzi b'ingoma bitaga abakaraza, bari kuvuza ingoma ni abagabo bane, harimo umugore umwe, hirya yabo hubatse inzu yubakishije ibyatsi, arizo kera babagamo.

Ababyinnyi bambaye uduhete mu mutwe, bambaye imikenyerero isa imeze neza, hasi umukara hejuru umweru. Ikindi kandi bateze amaboko ku buryo bumeze neza, ni ababyinnyi bashimishije cyane.

Intara imwe iboshye mu mabara atandukanye iboshye neza cyane, ikindi kandi ikoreshwa iyo abantu bejeje imyaka bari kugosora kugira ngo imyanda ive mu myaka.

Abantu bane bahetse umugeni, ikindi kandi imbere zabo hari umuntu wikoreye ikibindi, hirya yabo hari undi ukenyeye imikenyero, bahekaga umugeni bamushyiriye umukwe, uku ni ko kera babikoraga iyo babaga bagiye gushinyingira umukobwa.

Uducuma tubiri tugaragazaga umuco nyarwanda, ndetse n'imiheha kuko aribyo abanyagwanda kera bifashishaga ibirago na byo ni ibya kera kandi n'ubu birakoreshwaga.

Umuhungu n'umukobwa bambikanye impeta bambaye imyenda ya kinyarwanda, bariteze mu mutwe ndetse umuhungu arakenyeye, umukobwa nawe arakenyeye barasa neza, ku buryo bushimishije cyane.

Ibikoresho byifashishwa mu gutaka, biboshye neza mu mabara agiye atandukanye, birasa neza ibi bikoresho kandi bigaragaza umuco nyarwanda, ahantu biba biri ni cyo biba bisobanuye kuko biba biboshye mu byatsi karemano.

Umuntu wicaye ku ntebe ya kinyarwanda ari gugosora ibishyimbo yifashishije icyo twita inkoko. Yakoreshwaga kera, ariko n'ubu ngubu biracyakoreshwa.

Umumama wicaye ku kirago ucunda amata mu cyansi, kugira ngo akuremo amavuta yo kurya ndetse n'ayo kwisiga, amata avuyemo ibyo ngibyo bayita amacunda.

Ubutaka burambitseho ikirago kigaragaza umuco nyagwanda, ni ho abantu bicaraga bari gucunda amata, mbese bari mu mirimo zigiye zitandukanye.

Inkongoro, igiseke, intara, akabindi, bigaragaza umuco nyarwanda kuko barabyifashisha, nk'ibisekeye ahantu habaye ibirori, ibibindi babivomeshaga amazi, ikindi kandi intara abantu bayifashisha bari gutoranya imyaka.

Ababyinnyi bane bari kubyina bikoreye n'ibiseke nyuma yabo hari intore nazo zibyina zihamiriza, bambaye imyenda zigaragaza umucyo nyarwanda, bateze amaboko neza cyane.

Isekuru imwe ibaje neza irasa neza yabajwe n'umuhanga rwose, ikindi kandi ikora imirimo igiye itandukanye, abantu bayifashisha bari gusekura nk'ibirungo, bagiye gukoresha mu gutegura amafunguro.

Ikiduke kirimo amagwa, abantu baricaye babiri bari gusoma bashinzemo imiheha, ibi ni byakera cyane nibyo byakoraga ariko ubu ntabwo abantu bakibikora, bakoresha ibikombe.

Abana benshi baricaye, bamwe bafite mikoro ,undi afite gitari ari gucuranga, acurangira abandi bari kumva injyana ari gucurangamo, ibi bigaragaza umuco wa kinyarwanda.

Imboga z'isogi ni imboga nziza cyane kuko ziryoha iyo umuntu yazigeretse ku bishyimbo, ikindi kandi zirarura zishoborwa n'abantu bakuze. Zisigaye ziboneka ahantu hake, ziri kugenda zicika.

Ikimera kimeze neza cyane, kirabyibushye, ni kirekire, ikindi kandi gifite indabyo zisa n'umweru, amababi yazo avamo umuti abantu bifashisha, cyangwa bagateka bakazirya.

Abantu barapfukamye bambaye imyenda igiye isa, bafite inkoko mu ntoki hino yabo hari umuntu ufite igisabo, undi afite umutozo barapfukamye nk'abantu bari mu kirori, cyo gusaba kuko ni ho bakunda gukoresha ibi bikoresho.

Ibikoresho by'umuco biboshye neza, ikindi kandi bifite amabara agagiye atandukanye, bibaga byiza kubikoresha utaka, ikindi kandi n'umuco nyarwanda.

Ikibuga kirimo abantu batandukanye, bamwe bicara hasi abandi bicara ku ntebe, imbere ya bo hahagaze umugabo bari kumucira urubanza bamukiranura n'uwo bafitanye ikibazo, hirya ya bo bakikijwe n'ibiti bita imiyenzi.

Umukambwe unywa itabi akoresheje inkono za kera, zigaragaza umuco nyarwanda kuko kera nizo bakoreshaga, ariko n'ubungubu harimo abantu bazikoresha.

Intebe eshatu, abantu bazicaraho n'iza kinyarwanda, ariko n'ubu hari aho wagenda uzisanga hari abantu bakuze, ariko iyo uyibonye biratangaje kuko umwana w'ubu ntago yamenya uko bayita.

Umuntu ubumba amashiga yo gutekaho, ikindi kandi akoresha ibumba, ni ryo yifashisha. Kandi aya mashiga ateka neza nk'uko bikwiye.

Abavuzi b'ingoma aribo twita abakaraza, bambaye imikenyero isa n'umuhondo, ikindi kandi harimo n'umuzungu uvuza ingoma, hirya yabo hari amazu yubakishije ibyatsi bigaragaza umuco nyarwanda.

Inzu z'ibyatsi zubatse ku buryo bwa kinyarwanda, hino yaho hari intebe ya kinyarwanda, kera nibyo bubakaga ndetse n'urugo rukaba rukikijwe n'ibiti bya kinyarwanda. Zibaga nziza kuko kera zabaga zikomeye.

Umusaza unywa itabi yicumba ikibando yambaye ibikomo hejuru yiyambuye hasi yambara imyenda yacitse ni umusaza ubona ko akuze kuko yazanye n' imvi.

Inkono z'ibumba zigaragazaga umuco nyagwanda, kuko nizo abakera batekagamo, ikindi kandi n'ubu harimo abanu bazikoreshaga batekaga ibiryo bikaryoha cane.

Igikoresho cyifashishwaga mu gukwirakwiza umuriro, bawutanga ku bantu. Ikindi kandi umuriro ubaga mwiza, kuko gutuma abantu baba ahantu habona.

Amazu yubatswe neza, asakaje amabati atukura, afite amadirishya yubatswe mu buryo bugezweho, ikindi kandi aya mazu yagenewe ibikorwa bigiye bitandukanye nko gucururizamo, gusengeramo n'ibindi.

Amazu yubatse neza, yubakishije amabati asa n'umuhondo, andi asa n'umutuku, asize amarangi y'umuhondo yubakishije amatafari ahiye asa neza, ikindi kandi hari ibyatsi bihateye, imbere barabiconga bisa neza cyane.

Amazu yubatse neza afite amarangi kagezweho ,afite amadirishya asize amarangi y'umweru ,ikindi kandi arakorotiriye .Hari igipangu kimeze neza yagenewe kuvurirawamo abarwayi.

Inzu zubatse neza zifite amarangi ameze neza. amadirishya yayo nayo asa neza ndetse n'inzugi zayo. Ikindi kandi izi nzu zagenewe imirimo igiye itandukanye harimo gusengeramo n'ibindi.

Ikiraro cyubatse ku buryo bwa kijyambere, kuko nta muntu cyarigitana, kirakomeye cyubakishije ibyuma bimeze neza, abantu iyo bahanyura bahanyura neza bari gutambuka, nta cyo bikanga na busa.

Icyapa cyanditseho abahamya ba Yehova, kiri ku rukuta rwubakishije amatafari ahiye, ikindi kandi barahasengera, hirya y'aho hari ibiti byakuze, biba byiza ahantu biri biba bishimishije cyane.

Amazu yubatse ku buryo bumeze neza cyane kandi butandukanye, amwe asakaje amabati asa n'ubururu, asize amarangi asa n'umuhondo, yubakishije amatafari ahiye, akorerwamo imirimo igiye itandukanye.

Inzu yubatse neza isakaje amabati ameze neza, ikindi kandi amarangi yayo asa neza inzugi zayo na zo zimeze neza, urujya n'uruza rw'abantu baza kuhasengera.

Ikibuga kirimo abantu batandukanye, abihayimana ndetse hakabamo n'abakirisitu, hijya yaho hubatse inzu imeze neza cyane basengeramo.

Inyubako zimeze neza, zifite amabati ameze neza y'umutuku, amadirisha yayo agezweho, kandi yagenewe ibikorwa bitandukanye; gusengerwamo, n'ibindi.

Amazu yubatse neza asakaje amabati atandukanye, amwe asa n'umutuku andi asa n'ubururu. Asize amarangi asa n'umweru, ikindi kandi amadirishya n'inzugi bisa n'umukara.

Amazu menshi gubatse gatandukanye, gakorerwamo imirimo zitandukanye, gamwe bagasengeramo, agandi bakagabamo, agandi bakagacururizamo abaturage.

Amazu yubatse neza, afite amabati atukura, afite n'amarangi y'umuhondo, ikindi kandi afite ibyatsi imbere yaho, abantu babyicaramo, ikindi aya mazu agenewe ibikorwa bitandukanye nko gusengerwamo, gucururizwamo, amashuri ndetse n'ibindi.

Amazu gubatse gagerekeranye gagenewe ibikogwa bitandukanye, gafite amarangi gameze neza amadirisha gago nago gameze neza ikindi kandi hateye n'ubusitani abantu bicaragamo bari kuruhuka.

Ikibuga kirimo ishyamba rinini ikindi kandi hubatsemo amazu agiye atandukanye akorerwamo imirimo igiye itandukanye harimo ubucuruzi, hakabamo insengero n'amashuri yigirwamo yubatse ku buryo bumeze neza. Ikindi kandi harimo n'igiti gitanga umuriro w'amashanyarazi.

Amazu yubatse ku buryo bugezweho, aragererkeranye kabiri, asakaje amabati asa n'ubururu, inzugi zayo zisa n'ubururu. Ikindi kandi akorerwamo imirimo itandukanye, nko kwigirwamo, ubucuruzi ndetse n'ibindi.

Amazu yubatse neza ku buryo bugezweho, aragerekeranye gatatu. Ikindi kandi asize amarangi asa n'umuhondo, asakaje amabati y'ubururu. Imbere yaho hateye ibyatsi, abantu babyiciramo iyo bashaka nko kuruhuka.

Amazu gameze neza kuko gubatse neza gafite amadirishya ga kera ariko gubatse neza. Imbere g'ayo mazu haparitse amamodoka gatandukanye.

Amazu yubatse neza, afite amarangi atandukanye. Amabati asakaje ayo mazu na yo aratandukanye. Ikindi kandi izi nyubako zagenewe ibikorwa bigiye bitandukanye, insengero ndetse n'amashuri n'ibindi.

Amazu gubatse neza garagerekeranye kabiri, gasakaye neza gafite amabati gagezweho, amadirisha gameze neza ndetse n'inzugi, imbere gaho harubakiye ku buryo umuntu atatemba ngo akora impanuka.

Uruja n'uruza rw'abantu barikugenda baja mu mirima zitandukanye ,bari kujenda mu muhanda gubatse neza gurakorotiriye Ku buryo gumeze neza cane.

Inyubako zisa neza, zubatse neza ku buryo bugezweho, zisakaje amabati atukura, zubakishije amatafari ahiye, ikindi kandi zikorerwamo imirimo igiye itandukanye, nk'ubucuruzi, gusengeramo ndetse n'ibindi.

Amazu yubatse neza, asakaje amabati, ameze neza, ndetse amadirishya yazo nayo ameze neza, asize amarangi agezweho, imbere y'ayo mazu hateye ibyatsi abantu bicaramo.

Inzu yubatse neza isakaje amabati ameze neza, amadirishya yayo ameze neza inzugi zayo nazo zimeze neza, hino yayo hateye ibyatsi abantu bicaramo. Ni inyubako yagenewe ibikorwa bitandukanye bya leta.

Amazu yubatse neza asakaje amabati ameze neza, amarangi yayo ameze neza ikindi kandi ikorerwamo imirimo igiye itandukanye harimo gusengeramo, kwigiramo n'ibindi.

Amazu ameze neza, yubatse ku buryo bugezweho, asakaje amabati atukura, afite amarangi y'umutuku, ikindi kandi arakorotiriye, akorerwamo imirimo igiye itandukanye, harimo: ubucuruzi, gusengeramo, amavuriro n'ibindi.

Amazu yubatse neza ku buryo bugezweho, asakaje amabati atukura ndetse n'umweru. Harimo n'asakaje asa n'ubururu, ikindi kandi agakorerwamo imirimo zitandukanye, amwe asengerwamo, andi acururizwamo ndetse n'ibindi bikorerwamo bigiye bitandukanye.

Amazu yubatse ku buryo butandukanye, afite n'amabati atandukanye amarangi yazo aratandukanye ,akikijwe n'ibiti imbere y'ayo mazu hari ibyatsi abantu bicaramo kandi yagenewe gukorerwamo imirimo igiye itandukanye nk'ubucuruzi n'ibindi.

Inyubako imeze neza cyane, irimo amarangi ameze neza, ikindi kandi iberamo ibintu bijyanye n'inama cyangwa se guhugurwa, kuko ameza yaho ateretseho ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Amazu gubatse neza ku buryo bugezweho, gasakaje amabati gatukura, gafite amarangi gameze neza, ikindi kandi bwagenewe ibikorwa bitandukanye amashuri, gusengeramo n'ibindi.

Amazu yubatse ku buryo bugezweho kandi atandukanye. Asakaje amabati atukura, yubakishije amatafari ahiye, asize n'amarangi y'umweru. Ikindi kandi akorerwamo imirimo igiye itandukanye nk'amashuri, gusengeramo ndetse n'ibindi.

Inzu yubatse neza ifite amarangi atandukanye y'umweru, ndetse harimo n'ay'icyatsi. Amadirishya yayo ndetse n'inzugi bisize amarangi y'umweru. Imbere yaho hahagaze abihaye Imana, aribo twita abamasera ndetse n'abapadiri.

Inzu yubatse neza isakaje amabati atukura yubakishije amatafari ahiye, amadirishya n'inzugi birasa. Ikindi kandi hirya yayo hari ishyamba ry'ibiti birebire hino yaho hateye ibyatsi abantu bicaramo.

Amazu yubatse ku buryo bugezweho, aragerekeranye kabiri, ikindi kandi yubatse ku buryo bumeze neza, arakorutiriye ku buryo umuntu uhagaze hejuru atatembagara, ikindi kandi afite amadirishya yubatse neza.

Inzu yubatse neza, isize amarangi agiye atandukanye, harimo ayumweru ndetse n'ayandi, hari ahagiye hometseho amakaro, ikindi kandi mbere yaho hari abantu, bari kwifotoza bambaye udupfukamunwa, harimo abamama ndetse n'abagabo.

Amazu gubatse neza gafite imiryango zitandukanye amadirishya gameze neza, inzugi zago nazo zimeze neza ikindi kandi zifite na parikingi iparitseho amamodoka gatandukanye.

Amazu yubatse neza ku buryo bugezweho ageretse gatatu yubakishijwe amabuye ahiye, afite amarangi asa n' umuhondo ikindi kandi akorerwagamo imirimo itandukanye gusengeramo, kwigiramo ubucuruzi ndetse n' ibindi...

Inzu yubatse neza ifite amabati asa n'ubururu, amarangi yayo aratandukanye. Harimo asa n'umweru, andi asa n'icyatsi. Ikindi kandi amadirishya yayo asa neza, agezweho, hasi hasize neza. Hagiye harimo amabara agiye atandukanye.

Abantu batandukanye bari mu nama bari kwiga ku bijyanye n'ubumwe n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ikindi kandi begereye amashuri gubatse neza.

Ikibuga kinini cyane cyicayemo abantu batandukanye, bamwe bicaye hasi abandi bicaye ku ntebe, ikindi kandi bamwe batonze umurongo bari kujya kubaza ibibazo bafite, uhagarariye inama abasubiza.

Ikibuga cyicayemo abantu benshi b'ingeri zitandukanye, bari mu nama. Bamwe batonze umurongo bari kuja kubaza ibibazo bitandukanye bafite.

Ikibuga kirimo abantu baricaye abandi barahagaze, bari mu nama bari kwiga ku ngingo zigiye zitandukanye imbere yabo ha hagaze umuyobozi niwe uri kuyibakoresha.

Abantu batandukanye bahuriye hamwe， baricaye， bari mu nama，umusaza yafashe mikoro ari kubaza ikibazo，kugira ngo abayobozi bamusubize. Ikindi kandi inama iba nziza， kuko ikemura ibibazo by'abaturage.

Umuhanda gurimo abantu barikuja mu ngendo zitandukanye bakoresheje ibinyabiziga bitandukanye ,bamwe bari kugenda n'imodoka abandi babatwaye ku mamoto.

Umuhanda urimo umuntu uhagaze, uri kwitegereza imodoka itwara ibitaka abantu bakoresha bari kubaka, ikindi kandi izi modoka ziba nziza cyane.

Umuhanda usa n'umukara urimo imodoka nini cyane itwara abagenzi, ibajyanye mu ngendo zitandukanye ikindi kandi imodoka iba nziza kuko yorohereza abantu ingendo.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu, bari ku binyabiziga bitandukanye bari kujya mu ngendo zitandukanye, bari kugenda bamwe n'imodoka, abandi bari kugenda n'amamoto kandi amamoto atwaye abantu.

Uruja n'uruza rw'abantu bari kujenda mu muhanda, ikindi kandi bakoresheje ibinyabiziga bitandukanye, bamwe bari ku magare, abandi mu modoka, abandi ku moto n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu baba baje aho bafatira imodoka, kugira ngo zibatware zibajyane mu ngendo baba bagiyemo zitandukanye, ikindi kandi nk'uko bigaragara abantu baba ari benshi kubona imodoka ari ibintu bigoranye cyane.

Amamoto atwara abagenzi abajyana mu ngendo zitandukanye, araparitse. Ayandi ahetse abantu bar kujya mu ngendo zabo. Ikindi kandi amamoto aba meza kuko yorohereza abantu ingendo, bakagera aho bagiye ku buryo buboroheye.

Amazu yubatse neza ku buryo bugezweho afite amabati ameze neza, yometseho amakaro ameze neza, hasi ku kibuga harapavomye, ikindi kandi haparitse amamodoka y'umukara n'ay'umweru yanditseho ngo sura u Rwanda.

Amamodoka manini ndetse n'amatoya atandukanye, atwara abagenzi abajyana mu ngendo zigiye zitandukanye, ikindi kandi hari n'amazu yubatse ku buryo bwiza asakaje amabati atukura asize amarangi y'umuhondo, ndetse hari n'ibindi bikorwa bitandukanye bihakorerwa.

Umuhanda urimo abamotari batatu batwara abagenzi, ikindi kandi harimo n'abanyamaguru baba bari kujya mu ngendo zigiye zitandukanye, ibinyabiziga biba byiza, kuko byorohereza abantu kugera aho bagiye ku buryo buboroheye.

Urujya n'uruza rw'abantu baza aho bafatira imodoka, kugira ngo zibafashe kubageza aho bashaka kujya ku buryo bworoshye, harimo n'amamoto n'ibindi. Abantu baba bari gukora ingendo zigiye zitandukanye, hari n'inzu zubatse zigerekeranye zifite amarangi asa n'umuhondo n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu baba bari kujya kibuga cy'indege bagiye mu bihugu bitandukanye, abandi baje kwakira abavuye mu bihugu bigiye bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baza aho bafatira imodoka, bari gutega ngo bajye mu ngendo zitandukanye, bari kurira imodoka nini cyane itwara abagenzi.

Amazu gwubatse neza, gasize amarangi, gameze neza, gwometseho amakaro, ikindi kandi imbere gaho haparitse imodoka y'umukara.

Amazu yubatse neza arakorotiriye uko bikwiriye, ikindi kandi hino yayo hari ikibuga giparitsemo amamodoka atandukanye, ariko yose afite amabara asa.

Uruja n'uruza rw'abantu bari mu muhanda baja mu ngendo zitandukanye, bajenda bamwe n'amaguru, abandi bari kujenda n'imodoka baja mu mirimo.

Imodoka nyinshi cyane zitwara abagenzi, ziraparitse ziriho ibirangantego bigaragaza aho zijya, abagenzi baraza bakazitega, ikindi kandi hari inyubako zubatse zigiye zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'imodoka zitwara abagenzi zibajyana mu ngendo zitandukanye. Ni imodoka nini ikindi kandi ziba nziza kuko zituma abantu bakora urugendo mu buryo buboroheye.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kwinjira mu modoka, bari kujya mu ngendo zigiye zitandukanye, imodoka ni ingirakamaro kuko yorohereza abantu ingendo, bagera aho bagiye ku buryo bworoshye.

Amamodoka manini meza kandi atandukanye aparitse mu kibuga, abantu baza kuyareba kugira ngo abajyane mu ngendo zitandukanye baba bagiyemo.

Uruja n'uruza rw'abantu bajaga ku kibuga, bagiye mungendo zitandukanye bamwe bagenda n'imodoka abandi bagenda n'indege, bagiye mungendo zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bazaga gutega imodoka ziri kubajyana mu ngendo zitandukanye, imodoka nini cyane kandi nziza kuyigendamo uba umeze neza itandukanye n'imodoka ntoya.

Urujya n'uruza rw'abantu baba baje aho bafatira imodoka bajya mu ngendo zitandukanye, haparitse imodoka nyinshi nazo ziba ziri kujya ahagiye hatandukanye.

Ikibuga rusange giparitswemo imodoka zitandukanye, amabara garatandukanye, gatwara ibintu bitandukanye, zimwe zitwaraga abantu, izindi zigatwaraga imizigo.

Imodoka nyinshi zisa ziri mu muhanda, zitwara abagenzi zibajyana mu ngendo zigiye zitandukanye, ikindi kandi imodoka ziba nziza kuko zorohereza abantu urugendo, aho bajya bakahagera ku buryo buboroheye.

Urujya n'uruza rw'abantu baza aho bafatira imodoka, bagiye mu ngendo zigiye zitandukanye. Haba hari imodoka ziri kujya mu duce dutandukanye, abantu ziborohereza ingendo zabo.

Inyubako ifite amazu agiye atandukanye, amarangi yabo aratandukanye, kandi amwe yubatse ku buryo bugezweho, ikindi kandi amamodoka atandukanye, aza ku haparika atwara imizigo ndetse n'ibindi.

Amamodoka atandukanye atwara imizigo ndetse n'abantu, ari mu muhanda w'igitaka, harimo abagenzi bari kujya mu ngendo zigiye zitandukanye bagenda n'amaguru. Ikindi kandi, hari idarapo rigaragaza igihugu cy'u Rwanda.

Amagare atatu afite amabara atandukanye, amwe asa n'umuhondo ayandi asa n'icyatsi ,afite intebe bicaraho zisa n'umukara, ikindi kandi akoreshwa mu masiganwa y'amagare ,abantu bayakoresha kuko aranyaruka cyane.

Umuhanda usa n'umukara, urimo imodoka zitandukanye, harimo imodoka nini cyane bita ritiko, bifite amabara y'umweru ndetse n'icyatsi, itwara abagenzi benshi cyane, ikindi kandi irihuta, umuntu agera aho agiye ku buryo bwihuse cyane.

Ikibuga giparikwagamo imodoka abagenzi bakaza kuzitega, zikabajana mu ngendo zitandukanye baba bagiyemo. Imodoka ni nziza kuko zituma umuntu akora urugendo ku bujyo bworoshe.

Ikibuga kirimo abakinnyi babiri bambaye imyenda isa, bari kwiruka bishimira intsinzi yabo, ikindi kandi hirya ya bo hari abafana, abafana batuma abakinnyi bagira imbaraga mu mukino, kuko bafite abari kubogeza.

Ameza ateguyeho ibisorori, ndetse n'ibikombe by'ibirahuri, afite intebe zimeze neza cyane, ahantu harubakiye ikidendezi kirimo amazi hameze neza cyane, abantu baza kuharuhukira bari koga bakora siporo kugira ngo bagorore umubiri wabo.

Abakinnyi bambaye imyenda itandukanye bakina umupira w'amaboko, bari gukina umupira batsindanwa igitego, hirya yabo hari abafana bicaye bari kubareba. Umupira uba mwiza kuko utuma abantu banezerwa.

Ikibuga kirimo umukobwa uri gukora siporo yasimbutse amaguru imbere, amaboko imbere, ikindi kandi gukora siporo birindaga indwara ku bantu babikora bagiraga ubuzima bwiza.

Ikibuga kirimo umuntu uri gukina akora siporo, ikindi kandi siporo ni nziza kuko ituma umubiri umera neza. Mbese siporo irindaga indwara zimwe na zimwe.

Amazu yubatse neza afite amarangi kameze neza cyane, mbere yaho ari ikidendezi cy'amazi, abantu baza kucyogeramo bakora Siporo bari kunanura umubiri wabo.

Ikibuga kirimo abakinnyi bari gukina umupira gw'amaboko. Uruhande rumwe rugiye gutsinda, abandi bari kurwanya kugira ngo batabatsinda igitego. Iruhande rwabo hari abafana bari gufana abari gukina.

Ikibuga kirimo abakobwa batatu bari gukina umwe ari muri siporo, undi ari gukina umupira gw'amaboko abandi bari inyuma y'ikibuga bari gufana ,ikindi kandi aho bari gukinira hubatse neza.

Ikibuga gikorerwamo imyitozo ngororamubiri kirasa neza, gifite ibyatsi bitohagiye umusenyi w'aho umeze neza, kuhakorera siporo bigenda neza cyane.

Ikibuga kirimo abantu batandukanye bari gukora imyitozo ngororamubiri birukanka bambaye imyenda itandukanye, igaragaza ko ari iy'abantu bakorana imyitozo ikindi kandi imyitozo ngororamubiri, igira akamaro kuko ituma abantu bagira ubuzima bumeze neza.

Ikibuga kirimo abakinnyi bakina umupira, ni amakipe atandukanye hirya y'ikibuga hicaye abafana bambaye imyenda isa n'iy'abakinnyi, ikindi kandi umupira uba mwiza kuko utuma abantu bishima.

Abakinnyi bambaye imyenda itandukanye bakina umupira. Ikindi kandi mu gukina umupira biba byiza kuko bituma abantu bagira ubuzima bwiza, bakabaho bishimye kandi banezerewe.

Umuhanda gurimo abantu bari gukora siporo bambaye imyenda zimeze neza z'ubururu n'umweru amasogisi, inkweto zifunze bari kwiruka.

Amazu yubatse neza ku buryo bugezweho， afite amarangi atukura， andi afite amarangi y'umweru， yegereye umuhanda w'umukara， uba uri kugenderamo abagenzi bajya mu ngendo zitandukanye.

Imihanda z'ubusamo zibagamyiza cane kuko zituma abantu bagera aho bagiye vuba ikindi kandi harimo abanyamaguru baba bari kujenda abandi bari kujenda n'amamoto.

Aga amazu gubatse neza nag'itegererezo kuko gubatse kimwe ikindi kandi gafite amabara meza gatandukanye, imbere gaho hakorerwa imirimo zitandukanye z'ubucuruzi.